Imodoka nyinshi ziri mu muhanda, hari imodoka iri imbere ya Kwasiteri isa n'umweru, inyuma yayo hari utuvatiri dutoya, hirya y'umuhanda hateye ibiti birebire n'igipangu cubatsemo amatenti.

Umupolisi wicaye ku ntebe ufite amapeti, amanyenyeri menshi atatu ku rutugu handitsweho polisi, ku ruhande hariho akantu kariho idarapo ry'Igihugu.

Abantu bicaye bari mu nama bafashe ibitabo n'amakaye .Bamwe bambaye udupfukamunwa .Hari umugabo ufashe mikorofone ,wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara. Impande zaho hateretse uducupa turimo ji n'amazi.

Umugabo n'umugore umugore akeneye imikenyerero yambaye agapira k'umutuku, afashe n'agakapu gatoya mu umugabo yambaye imyenda y'abasirikare, ingofero y'icyatsi mu mutwe afashe ururabo.

Ubwato buri mu kiyaga, hirya y'ico kiyaga hubatswe amazu ya Etaje avanze n'ibiti, muri ubwo bwato harimo umupolisi wambaye jire y'umutuku.

Abantu benshi bicaye. Abandi barahagaze mu nzu iri guhinguka ifite amabati y'umutuku. Inyuma yabo hari indabo n'igiti cy'inturusu kirekire kinanutse. Umupolisi ahagaze imbere yabo afashe mikorofone.

Abagabo bari ku mironko itatu bararinganiye . Bambaye bote z'umukara , amapantaro ya kaki , amashati ya kaki arimo ibara ry'ubururu n'ingofero za kaki.

Abantu bahagaze mu muhanda , haruguru hari imodoka iri kuzamuka nini . Ni abagabo gusa , harimo babiri b'abamotari bambaye kasike undi iya kabiri ayifashe mu ntoki . Imbere yabo hahagaze Umupolisi w'umugore wambaye agapfukamunwa.

Umupolisi uhagaze mu muhanda ushinzwe kuyobora abagenzi n'ibinyabiziga, imbere hariho imodoka nyinshi na motenisi. Mu muhanda hateye ibiti ku ruhande n'amazu ari hirya.

Abantu bahagaze bambaye imyenda itandukanye, hari umuhungu uhagaze agapfukamunwa n'isarubeti na ga, harimo abapolisi bambaye imyenda y'akazi n'udupfukamunwa, hari umu umugabo wambaye ikositimu uri gutunga ikiganza ku mashini.

Abaturage benshi bari mu nama baricaye bose harimo n'abahagaze inyuma bari mu kibuga, harimo abana abagore n'abagabo, inyuma yabo hari ibiti birebire hari bafure imanitse.

Abantu bari mu nama. Bose bambaye udupfukamunwa, bicaye bashizemo intera ku ntebe z'umukara. Umwe arahagaze afashe mikoro ari kubaganiriza.

Abantu bari mu nama bose baricaye bafite amazi gateretse imbere yabo ku meza. Umugore umwe afashe mikoro ari kuvuga, uwo ku ruhande umwegereye ari kumureba.

Abantu benshi bamwe barahagaze abandi baricaye, mu bicaye harimo abasirikare n'umupolisi, inyuma yabo hari inzu ziri guhinguka, zishakaje ibyatsi n'igiti kirekire.

Abantu bari mu nama bicaye ku meza, bafite amacupa g'amazi aho bari gukorera inama hariho amarido afite ibara ry'umukara n'iry'umweru.

Abantu benshi bari mu nama. Bicaye ku ntebe ziriho ibitambaro by'umweru n'ameza gariho ibitambaro cy'umweru. Imbere yabo hari umugabo ufashe mikoro wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara uri kubaganiriza.

Abaturage bari mu nama baricaye bamwe bari kureba inyuma yabo, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, hirya hari guhinguka inzu yubakishijwe amategura.

Abantu bari mu nama bahagaze abandi baricaye hari izamu rikoreshwa bari gukina umupira n'ibiti birebire umugabo umwe arahagaze afashe mikorofone ari kuvuga yambaye ishati ifite ibara ry'ivu.

Abaturage bari mu nama ,imbere yabo hagaze umuyobozi uri kubaganirariza, irya yabo hateye urutoki, inyuma yabo hari amazu, bicaye ku ntebe z'umweru.

Ababyinnyi bari kubyina, babiri bari inyuma, undi umwe ari imbere bari kubyinira ahantu hari imbuga y'amapave. Hari abandi bari gukoma ingoma n'abari kuririmba, aho abagore bakenyeye imikenyero y'umuhondo. Abari kubyina bafashe amacumu n'ingabo, bambaye n'ingara mu mutwe.

Isoko rinini cane ririmo abantu bake. Harimo ibicuruzwa bitandukanye. Udukoko tumanitse, ibipaniye, imbabura zirambitse ku bisima n'indobo y'icatsi irimo imyuko.

Abagabo bane bakenyeye imikenyero y'umuhondo. Bambaye amashati maremare asa n'icyatsi. Hasi bakenyeye umukenyero usa n'ubururu bose bari gukoma ingoma. Hagati hahagaze undi mugore nawe ukenyeye imikenyero ari gukoma ingoma.

Abantu benshi bari mu bwato bw'ibiti. Harimo abagore n'abana n'abagabo. Haruguru yabo hahagaze abantu benshi bari kubareba bahagaze imbere y'ikiyaga.

Ababyinnyi b'abagore bari kubyina bateze amaboko, hirya ya bo hari abagabo babiri na bo bari kubyina bateze amaboko. Inyuma ya ho hari ibiti. Hari abari gukoma ingoma n'abari gukoma amashi. Bambaye imikenyerero y'umweru n'umutuku.

Inzu z'indaro za kera, eshatu zegeranye zifite imiryango. Umwe ufite ibara ry'icatsi, imbere yazo hateye umucaca, inyuma hariyo insina n'ibiti byinshi.

Umugabo wambaye kositimu n'ishati n'ingofero uri gucuranga inanga. Inyuma ye hahagaze abagore bakenyeye imikenyero, imbere ya bo hateretse ingoma, hirya hahagaze abana bato.

Umugore mwiza cyane afite mu maso harehare, amenyo y'umweru, yambaye agasheni mu ijosi, afite umusatsi mukeya wa natireri.

Ibikoresho by'ubukorikori biboshe birambitswe mu kabati harimo: ibiseke, n'inkoko ziboheshejwe amabara asa umweru, umutuku, umukara, ndetse atatse neza ibyo biseke n'inkoko.

Abanu bane basutamye harimo :abagore babiri n'abagabo babiri ,umusaza yambaye ikositimu ifite ibara ry'icatsi, umugore yiteza agatambara mu mutwe yambaye agapira k'umutuku n'amabara y'umweru ,umugabo wundi yambaye ishati y'umweru undi mugore yambaye imyenda y'umweru, bose bafite imiheha mu kanwa n'ikibindi giteretse hagati yabo bari kunwa.

Abaturage benshi bari mu muganda. Bamwe bambaye udupira tw'umweru n'ingofero z'umweru. Abandi bambaye imyenda isanzwe. Haruguru hubatse itente isa n'umweru. Hirya haparitse imodoka nini ya kwasiteri.

Ababyinnyi b'abakobwa bari kubyina bazamuye amaboko, bambaye udusengeri tw'umweru bakenye n'incabure, hari udutara turi kwaka turi kwitete hejuru inyuma, hari ibara ry'ubururu ry'umwenda riri guhinguka.

Umugore wicaye ku kirago. Yiteze agatambaro mu mutwe gasa n'umweruru, yambaye n'ishapule mu zosi. Ari kuboha ikirago. Inyuma ye hariho ibigori byumye n'urubingo.

Abagore bari kuririmba bari gukoma n'amashi babiri bambaye imikakozosi isa n'umutuku bakeneyenyera imikenyero y'amabara bambaye n'udusengeri dusa n'umukara.

Abakobwa bari kubyina. Bateze amaboko, bikoreye ibyibo, haruguru hari ho abahungu bambaye ingara bari kubamerara amashyi n'kirima kiri guhinguka haruguru ya bo n'umucaca bari kubyiniramo.

Abakobwa bari kubyina bose barapfukamye bateze amaboko, bakenyeye hasi umukenyaro usa n'icatsi, hejuru bambaye udusegeri duciye amaboko turimo utubara tw'umukara n'umweru. Hirya hari abantu bari mu matente bahagaze abandi baricaye.

Inzu y'ibyatsi bubatse ahantu mu nzu nziza igaragaza amateka ya kera irimo amatara imbere. Imbere y' iyo nzu y'ibyatsi harambitse inkweto nyinshi n'andi matari ari kwaka hejuru muri iyo nzu ifite ibirahuri.

Ingobyi batwaragamo kera abakobwa babashyingiye; impande yiyo ngobyi harambitse ibiti birebire hirya yaho hariho ibisebo binini.

Ababyinnyi bari kubyina hariho abakobwa bakenye imishanana y'umweru n'icyatsi, bari gukoma amashyi bari no kuririmba. Umwe muri bo ari gukoma ingoma. Hakaba n'abahungu babiri bari kubyina, umwe yambaye imyenda irimo ibara ry'ubururu n'amayogi mu maguru.

Ibiseke bibiri hamwe n'icyibo, n'inkoko, inkoko ishushanyijwemo ururabo, bifite amabara atandukanye, harimo igiseke gisa n'umutuku, kirimo n'ibara ry'umweru, ikindi gisa na kaki kirimo n'ibara ry'umukara, inkoko ifite ibara ry'umweru, n'ibara ry'umukara.

Imbuga nini cane irambuyeho shitingi yanitsweho imyaka hirya hari ikigega bahunikamo imyaka cakera cubatswe mu byatsi inyuma y'ico kigega hari ibyatsi byinshi n'ibiti birebire.

Umugabo uri kubyina ufashe ingabo yambaye n'amayogi mu maguru. Inyuma ye hari abagore bari gukoma amashi bari no kubyina. Umwe muri bo ari gukoma ingoma hamwe n'abandi bagabo babiri bari gukoma ingoma.

Abana benshi bahagaze umwe arapfukamye ari gusya kurusyo baseragaraho cyera imbere yabo hari ikintu kiri kujyaho ifu nicyibo kuruhande hari umwe muri bo witandiye agatambaro k'icyatsi.

Abaturage benshi bambaye udupira tw'umweru n'ingofero, abandi bambaye imyenda isanzwe bari mu muganda, bari gutema ibyatsi. Haruguru hubatse itente isa n'umweru, hakaba n'indi modoka ya kwasiteri iparitse.

Ababyinnyi b'abakobwa bari kubyina bambaye udusengeri tw'ubururu， bakenyeye n'incabure z'umutuku， bikoreye ibyibo，bambaye n'utundi tuntu tw'umweru， mu mutwe imbere yabo hateretse ingoma nyinshi.

Ababyinnyi bari kubyina batandatu bafashe amacumu n'ingabo bambaye amayugi babiri bambaye imyenda irimo umutuku abandi bane bambaye imyenda iri mu ibara ry'umuhondo , inyuma yabo hari ho ibiti.

Ababyinnyi b'abagabo bari kubyina twita intore. Bafashe icumu n'ingabo, bambaye imyenda ifite amabara abiri umweru n'ubururu, hirya yabo hari inzu y'ibyatsi ya kera.

Ababyinnyi bari kubyina abagabo n'abagore, abagabo bafashe amacumu, ingabo ,bambaye n'imigara mu mutwe, abagore bateze amaboko bakeyaye imikenyero y'umuhondo n'icyatsi.

Ababyinnyi bari kubyina . Abahungu bahetse umuntu mu ngobyi bakoreshaga kera bari gushingira. Abakobwa bakeneye imishanana y'umweru n'indi ifite amabara y'umukara n'umweru. Bikoreye ibiseke ku mutwe bateze amaboko.

Ababyinnyi bari kubyina b'abagabo, hariho abandi bari gukoma ingoma bambaye imyenda y'umuhondo n'icatsi, hari undi wasimbutse cane ufashe inkoni n'ingabo, wambaye amayogi menshi mu maguru.

Ababyinnyi b'abagabo bari kubyina bafashe amacumu n'ingabo bakaba bambaye urugara mu mutwe, haraguru hari umugabo wambaye ingofero uri gukoma ingoma, ukenyeye imikenyero y'umweru, bambaye imyenda irimo ibara ry'umweru, ubururu n'icatsi.

Ibiseke bitatu bingana, biboshe bifite amabara atandukanye. Igiseke ca mbere gifite amabara y'umutuku n'utubara tw'umweru. Igiseke ca kabiri gifite amabara y'umweru n'ay'umukara. Igiseke ca gatatu naco gifite amabara y'umweru n'ay'umukara.

Umugore upfukamye wambaye ibitenge birimo ibara ry'umuhondo, apfukamye ku kirago, impande y'ikirago hateretse umuvure, ari gusya akoresheje urusyo rwa kera baseragaho, imbere yarwo hariho agakoko.

Abagabo babiri bicaye. Umwe yambaye agapira k'amaboko magufi gasa na kaki. Undi yambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara. Imbere ya bo hateretse ikibindi kirimo imiheha miremire.

Abakobwa batatu bari kubyina bambaye utuntu mu mutwe dusa n'umweru, imikenyero y'umweru nudusengeri twumweru bose bafashe kumikenyero, inyuma hari guhinguka igiti kirekire n'i ibyapa bishushanyijweho.

Ababyinnyi babiri b'abagabo bari kubyina basimbutse bageze hejuru cane, inyuma yabo hari abagore babiri bari gukoma amashi bahagaze inyuma y'ingoma, hari akazu k'ibyatsi ka kera kari inyuma yabo n'ibiti by'imigano. Bafashe amacumu n'ingabo, bambaye n'imigara mu mutwe.

Ibishushanyo bibiri by'ingagi bikozwe mu ibumba, ingagi imwe ntoya y'icyana irikonka ingagi yo hepfo ibanza indi irahagaze nini isa nk'aho ari nkuru, inyuma y'ibyo bishushanyo hariho ibiti by'imigano.

Ababyinnyi benshi b'abagabo bari kubyina imbyino za kinyarwanda bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu n'iry'umweru hejuru bambaye ubusa nta kintu bambaye abambaye n'amayogi menshi mu maguru.

Ababyinnyi babagabo bari kubyina bafashe amacumu ingabo bambaye n'imigara mu mutwe bakenyeye imikenyero y'umutuku hirya yabo hari ibiti birebire bihateye

Ababyinnyi bari kubyina b'abagore bane n'abandi inyuma bamwe bari gukoma ingoma ,abandi bari kubakomera amashi bari kuririmba, bane bari kubyina bikoreye uduseke bambaye udusengeri tw'umukara n'imishanana ifite amabara atandukanye.

Umugore upfukamye ukenye igitenge, uri gusya akoresheje urusyo bakoreshaga kera bari gusya impeke zitandukanye, imbere yateretse agakoko karikujaho ifu yarangije gusya.

Abantu bane harimo abakobwa babiri n'abahungu babiri bambaye amashati ya buresiyeri na majipo ya kaki na mapantaro ya kaki bafashe imirishyo n'ingoma ziri imbere yabo bari gukoma. Hirya hari inzu itanga ubuzima yubakishijwe amatafari ya sima.

Abagabo batatu bahagaze. Babiri bambaye amapantaro, umwe yambaye ikabutura. Imbere hari umwana wambaye akajipo k'umutuku n'agapira, uri gusekura ifu.

Abagore bicaye batatu bicaye ku kirago harimo n'umuzungu abandi batatu bicaye ku ntebe, bari kuboha ibiseke, hakabaho n'igikapu kirambitse inyuma y'ikirago.

Igiti kinini cane cy'igiko kidafite amababi yashizeho, gifite indabo zisa n'umutuku kiri ahantu mu gihuru inyuma y'ico giti hari ibindi biti ndetse n'urutoki inyuma y'aho hakaba hari umusozi.

Umugore wambaye ingofero y'umutuku, umupira gwa bulesiyeri n'ijipo y'igitenge, afashe intara ari kugosora ingano, inyuma ye hariho umufuka muremure g'umweru, hakabaho n'undi muntu uhagaze inyuma y'ugo mufuka, hirya hari guhinguka insina.

Inzu y'ibyatsi ya kera bita indaro , imbere yayo hari imbuga nini ihagazemo abantu benshi umwe ari kugenda inyuma yayo hari ibiti birebire ifite uruzitiro rw'ibikenyeri.

Imashini nini cane ifotora impapuro, ifite amabara abiri, ibara ry'umweru n'ibara ry'umukara, irambitse ku makaro. Hejuru y'iyo mashini hateretse telefone.

Urusengero runini cane rwubakishijwe amabati y'ubururu, hejuru ku mabati hari umusaraba, imbere hari abantu benshi bahagaze, hirya hari guhinguka ibiti byinshi.

Urusengero runini rwa kiliziya gatulika. Rwubakishijwe amabati y'umutuku. Imbere y'urwo rusengero, hariho ishusho ya bikiramariya iteye amarangi y'umweru nay'ubururu, hariho n'ubusitani uteyeyemo indabo zisa n'icatsi.

Urusengero runini cane rwubatse ahantu ku gasozi, rufite amatafari afite ibara ry'umutuku n'umweru, imbere hari umusaraba munini cane uriho ishusho ya Yezu, hari abana bahagaze imbere y'urusengero, bambaye amajipo gasa n'ubururu.

Imihanda ibiri. Hagati y'iyo mihanda hateye umucaca n'indabo, n'igiti gisa nk'aho ari kirekire atari cyane, hirya y'umuhanda hari igipangu, muri icyo gipangu harimo inzu ya etaje ifite irangi ry'umweru n'amabati y'umutuku.

Urusengero runini. Ku gasongero hari umusaraba, imbere hari ishusho ya Bikiramariya n'ibiti birebire. Hari imbuga y'amapave aho umumotari yayiparitsemo. Imbere ye hari icapa gifite ibara ry'icatsi.

Ikimodoka kinini gitwawe n'umugabo wambaye agapira k'umuhondo, kiri gutsindagira umuhanda bari kubaka w'ibitaka, hakaba hari n'abagabo batatu bari kugenda muri uwo muhanda, huruguru hakaba hubatsweho amazu menshi ku gasozi.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri buri wese yicaye ku ntebe ye, batatu bambaye inifomu ya beresiyeli babiri bambaye inifomu y'umweru, umwe muri bo yambaye agapfukamunwa, uw'imbere afashe imashini yambaye n'isaha. Bose bari kwandika.

Amazu ane yubatse akurikiranye , imbere hariho agahanda k'igitaka hakaba hariho n'uturima tw'igikoni twubakishije imifuka y'umweru , hari umugabo uri kwinjira mu nzu imwe wambaye umupira g'umweru n'ingofero , hirya hari guhinguka imisozi miremire ziteyeho ibiti byinshi.

Inzu yubatswe iteye amarangi y'umutuku, ifite amabati y'umutuku, imbere yayo hariho umurima gutemo amashu n'ibitunguru, inyuma hariho ishamba ririmo ibiti birebire by'intusi, ndetse imbere y'ayo mazu hakaba hariho ikigega gisa n'umukara.

Urusengero runini rwubatse, imbere y'urwo rusengero hateye umucaca ufite ibara ry'icatsi, inyuma y'urusengero hariho ishamba riri guhinguka ryubakishijwe n'ibiti by'inturusu birebire ,hari urukarabi ruri impande y'urusengero rwubakishijwe amakaro' y'umweru, urusengero rufite amadirisha ateye irangi ry'ibara ry'icatsi.

Inzu ya etaje ifite boloke eshatu. Iya mbere, iya kabiri, n'iya gatatu. Hejuru hariho anteni y'igisahane ikaba yanditsweho boloke wani.

Imodoka nyinshi nini ziri gukora umuhanda, nta bantu barimo, ahubwo bahagaze impande y'izo modoka, hirya ni inzira y'abagenzi hariho inzira yubakishijwe amapave, hari guhinguka umusozi munini cyane uri hirya.

Umusigiti munini cyane ufite agasongero karekare, mbere y'uwo musigiti hagaze abayisilamu bavuye gusara, mu muhanda hari abanyonzi b'amagare bari kugenda.

Ibiro byubatse bifite imiryango itatu ifite ibara ry'ivu, byubakishijwe amatafari manini bifite purafo ya shokora ifite n'utuntu tubiri tw'umweru, hakaba handitsweho akagari ka Kampanga.

Ikiraro gishasha gisa n'icatsi, imbere yaco hahagaze abantu benshi n'imodoka ya kwasiteri isa n'umweru iparitse n'indi y'umukara iri inyuma y'iyo kwasiteri, hirya hariyo imirima ziteyemo ibiti.

Ishuri ryubatse rifite igipangu gisa n'icatsi gishushanyijweho amashusho atandukanye hari inka, ipusi, akana kari gukina, kababa hariho n'imbwa n'amapave, n'ishamba rinini riri inyuma y'iyo nzu.

Urusengero runini cane rwa etaje, hasi hari imbuga nini cane yamapave, hari umucecuru uri kuva mu muhanda witandiye agatambaro mu ijosi, imbere hari imodoka eshatu z'umukara, hejuru muri etaje hari abantu benshi bahagaze hanze.

Inzu ya etaje ifite irangi ry'umweru imbere yayo hari idarapo ry'igihugu rifite amabara atatu ubururu, umuhondo n'icatsi kuri iyo nzu handitsweho kote hawuze ofu Musanze Ingoro y'ubutabera ya Musanze , palede jasitise de Musanze.

Imodoka ihagaze ku kiraro kinini kiri ku kumugezi, imbere yicyo cyiraro hahagaze abantu benshi, hariho numuyonzi uri kwambuka ikiraro hirya hateye ibigori n'ibiti byinshi.

Urusengero runini rwubakishijwe amabati asa n'ubururu, hejuru ku gasongero hariho umusaraba n'insinga z'amashanyarazi ziciye hejuru y'urusengero. Imbere hari abantu benshi bari gukora isuku.

Inzu yubatse ifite igikuta kiriho amakaro, hasi hateye isima ifite irangi ry'umuhondo, hariho ibyapa bine, abantu babiri bahagaze imbere yayo: umugabo n'umugore, n'amazu ari hirya n'igiti c'avoka.

Urusengero runini cane. Imbere y'urwo rusengero haparitse imodoka. Rufite uruzitiro ruriho ibyuma, ruteye irangi ry'umutuku. Ku muhanda w'igitaka hari akazi ka Emutiyeni.

Abaturage benshi harimo n'abanyeshuri bambaye inifomu ya kaki, bari kwambuka ku kiraro gifite inkingi zifite amabara y'ubururu icyatsi n'umuhondo. Haruguru hateye intoki nyinshi.

Abaturage bari mu umuganda, harimo babiri bambaye udupira dusa n'umuhondo, abandi bahagaze hejuru, hejuru y'inzu. imbere y'i nzu bafashe ibitiyo bari gutera umucaca abandi bari guhinga bari butere, undi ari gufotora.

Akabati kari mu ishuri, ku gikuta hashushanyijwe abana babiri bicaye bafashe amakaye bari gusoma ibyashushanyijwe yo gushyira ibikoresho mu kabati karimo ibikoresho byinshi bikoreshwa bari kwiga harimo imipira udutabo ibikinisho ndetse n'ibipupe by'abana na gitari.

Abantu bari mu nama bicaye ku, bicaye intebe ziri ku ruziga, ku meza hateretse amazi n'ibitabo bari gukoresha, bicaye ku ntebe zisa n'umutuku, imbere naho hejuru hicaye abantu batatu bari kubaganiriza.

Abaturage benshi bari mu nama bicaye ku mucaca hagati yabo harimo umuyobozi uri kubaganiriza. Inyuma yabo hateye ibiti birebire by'icyatsi harimo n'umugabo wambaye ingofero y'umutuku.

Abaturage bari mu nama bicaye ku mucaca, inyuma yaho hari ibiti birebire, akaba ariho umuntu uri kubaganiriza ufashe mikoro, bamwe baricaye abandi barahagaze.

Abaturage benshi bicaye, abandi barahagaze. Inyuma yabo, hashinze idarapo ry’u Rwanda, hari inzu ifite amarangi y'umweru. Imbere yabo, hagaze umugore wambaye ikanzu y'igitenge, ufashe mikoro, wambaye n'inkweto z'umuhondo.

Abantu benshi bari mu nama imbere yabo hahagaze, umugabo wambaye ishati y'umweru rinete n'ipantaro y'umukara. Hagati yabo hari uduti tubiri tureture, inyuma yabo hagaze abantu benshi.

Abaturage benshi bamwe baricaye abandi barahagaze, bamwe muri biteye umutaka hari n'abandi bahagaze ku murongo, uwo imbere afashe ingofero mu ntoki na mikorofone ari kuvuga. Inyuma yabo hari guhinguka umusozi gubatsweho amazu.

Abantu benshi bicaye imbere yabo bahagaze umugabo ufashe mikoro wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro y'ikoboyi, haruguru hari ishuri mbere yabo hahagaze abanyeshuri.

Abaturage benshi bari mu nama, bamwe baricaye abandi barahagaze. Inyuma yabo hari guhinguka amazu n'ibiti birebire, hagati hahagaze umugore wambaye igiteyiteyi cy'icyatsi ufashe mikoro

Abaturage bari mu inama benshi, yabereye ahantu hari ishuri kugasozi hirya hari imisozi miremire ifite ishyamba hejuru, hariho umuyobozi uri kubaganiriza n'abanyeshuri bahagaze inyuma y'uwo muyobozi.

Abantu bari mu inama bicaye ku ntebe z'umukara, bateze amatwi umuntu uri kuvuga ufashe mikorofone, ni umugore yambaye ikanzu yite nigitambaro cy'umutuku.

Abantu benshi bicaye bari mu nama, bamwe n'abagabo abandi n'abagore, hari umwe muri bo uhagaze w'umugore yambaye ikanzu yigitenge, witeze n'igitambaro afashe mikoro imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ikositimu ari kubareba.

Abaturage benshi bicaye bamwe biteze udutambaro tw'umuhondo, icyatsi n'umutuku inyuma hariho ishuri, abandi bicaye imbere y'ishuri ku ntebe za pipitiri.

Abantu benshi bari muri gare bamwe bari kwinjira abandi bari gusohoka, hari imodoka ya bisi iri kwinjira n'indi ya kowasiteri iri hirya isa n'umweru, bose kandi bambaye udupfukamunwa.

Imodoka nyinshi cane za bisi ziri mu muhanda, iy'inyuma harimo umuntu uri gusohoka, hirya yazo hari ibiti byinshi cane n'itara ryo ku muhanda.

Gare irimo imodoka ziri gusohoka n'iziparitse, hakabamo n'izindi ziri mu muhanda ziri kugenda. Harimo amazu yubakishijwe amabati gasa n'ubururu gateye n'amarangi gumye.

Abantu benshi bari mu muhanda bamwe bari kwambuka umuhanda ,abandi bari kugenda munzira yabagenzi hari imodoka, ya bisi isa n'ubururu iri guturuka haruguru hirya yaho hariho, sitasiyo bamo kunkwesherezaho lisansi.

Abanyeshuri benshi bari muri gare ndetse n'abandi baturage. Bamwe bahetse ibikapu, bambaye imipira mu josi, abandi babirambitse hasi. Haruguru hari guhagaruka imodoka ya kwasiteri, hakabaho n'andi mazu inyuma yayo hariho ibiti birebire.

Imodoka eshatu ndende zitondetse ku muronko zikurikiranye zifite amabara atandukanye harimo icatsi, umweru n'umukara zanditsweho Ritiko Limitedi.

Ibimodoka binini bitwara imizigo biri mu muhanda impande yibyo bimodoka hahagaze abagabo bane bari kureba imyenda hari undi uri gutambuka ugeze kukimodoka gisa n'icatsi.

Imodoka ebyiri za kwasiteri zisa n'umweru zanditsweho siti egisipuresi, hari umugabo uri kwinjira mu modoka ya mbere undi ahahagaze impande yayo, iy'inyuma nayo hari abantu bayihagaze impande.

Indege nini cyane ifite amabara abiri ubururu n'umweru yanditseho rwanda air. Hari abagabo batatu bambaye udupfukamunwa bahagaze imbere ya masikariye ajya mu ndege.

Abamotari benshi baparitse imbere yabo hari umupolisi, bategereje kugenda, harimo umunyegari bose bambaye Kasike zimwe zisa n'umutuku izindi risa n'umuhondo.

Imodoka nyinshi za Kwasiteri ziri muri Gare n'abantu benshi bari kugenda abandi baricaye, hari n'izindi za bisi ziri guhinguka hirya harimo n'iminara haruguru hari umusozi usa nkaho gumye gurimo n'amazu.

Imodoka nyishi ziri mu muhanda, hari imodoka nini ya bisi irimo umuntu uhagaze yanditsweho ijana na kane citicenti, inyuma yaho hari umuntu uri ku igare.

Moto nshasha zifite n'amashashi zifite amabara y'umutuku, umukara, n'amakasike y'ubururu ziparitse haruguru hari abantu bane bari kuganira hariho itente irimo intebe z'ubururu, hakaba harimo icapa cyanditsweho beka fowundesheni.

Utumoto twinshi dutwara imizigo, dufite ibara ry'ubururu tumwe turiho abantu akandi kariho ubusa, duparitse ku mbuga y'amapave ir'impande y'umuhanda hari umugore uri gutambuka uhetse umwana.

Imodoka cumi n'ibiri za bisi zitondetse k'umurongo zikurikiranye, zigiye gukora uruziga, imbere yazo hari abantu bahagaze. Zifite amabara y'umweru n'akandi kabara k'icatsi.

Abamotari benshi bari mu muhanda. Bamwe bahetse abagenzi undi nta mugenzi afite. Afashe kasike mu ntoki isa n'umutuku, yambaye na jile isa n'umutuku. Hari undi mukobwa uri kwambuka umuhanda.

Abanyonzi benshi baparitse bafite amagare ariho imisego, bambaye amajire y'umuhondo, haruguru hari ipoto iriho insinga nyinshi, hirya yayo hari inzu bacururizagamo, ku gikuta hariho amakaro y'umweru.

Umugore wambaye ingutiya y'igitenge, n'umupira muremure, witeze igitambaro mu mutwe, n'inkweto za siripa, ari kunyonga igare rihetse igitebo kinini; haruguru hari urupangu rufite ibara ry'ivu, ndetse n'indabo ndende.

Abanyonzi batatu bari mu muhanda batwaye amagare bahetse abagenzi b'abagore harimo :umugore uri kureba inyuma wambaye agapira k'umuhondo , ukenyeye n'igitenge wambaye na silipa z'umutuku ,n'undi uri kureba imbere wambaye agapira k'umweru witeze agatambaro g'icatsi.

Abantu batanu bari kuva mu ndege ya Rwandeya, yanditseho furayide dirimu ofu afurika harimo umugore w'inyuma ufashe ishakoshi isa na oranje n'abandi bagabo bane harimo uwambaye jire y'umukara.

Abanyeshuri b'abakobwa bari ku murongo. Bahetse ibikapu ibindi babifashe mu ntoki. Bari kwinjira mu modoka nini cane ifite ibara ry'ubururu n'umweru, yanditsweho Volukano.

Imodoka nyinshi ziri muri gare harimo imodoka z'ama kwasiteri zisa n'umweru, nyuma y'iyo gare hariho urusengero n'ibiti byinshi, hakaba handitsweho ku muryango Nyagatare basipake.

Abamotari benshi baparitse ku murongo, bamwe bicaye kuri moto, bambaye kaske, abandi ntazo bambaye, haruguru hariyo abandi bantu bahagaze n'umwe wicaye kuri moto, inyuma yabo hari utuzu tw'ibiti.

Imodoka nyinshi ziri mu muhanda. Inini zitwara imizigo n'izindi ntoya. Hari abagenzi benshi bari kugenda mu nzira y'abanyamaguru, haruguru hari umucaca.

Abantu benshi bari kugenda mu muhanda wa mapave haruguru hari imodoka ya kwasiteri iparitse n'izindi ebyiri ziri hepfo yayo, hirya yaho hari inzu ya etaje ndende irimo kubakwa.

Abantu bari kugenda, abagore babiri umwe atwaye igare ahetse ibisero, undi yikoreye inkoko iriho isombe, haruguru hahagaze abantu batatu harimo umugore umwe n'abagabo babiri.

Indege ifite ibara ry'umweru n'ubururu, yanditsweho amagambo ari yo rwanda eya furayi de dirimu ovu afurika, hasi hahagaze abagabo babiri bambaye amajimo ibara ry'icyatsi n'ibara ry'ivu haruguru, hariho imodoka y'imashini kiri munsi y'indege.

Imodoka nyinshi ziri muri gare harimo: iza bisi zisa n'ubururu n'izindi za kwasiteri ziri gusohoka muri gare, hirya hari umusozi muremure cane uteyeho ibiti byinshi.

Imodoka ya tagisi isa n'umweru iriho n'ibara ry'icatsi yanditsweho n'amagambo hejuru hariho akantu kameze nk'akego, imbere hari imodoka iri kugenda y'ivatiri, hakabaho n'ibiti biteye ku muhanda.

Abagore bicaye mu kamoto gatoya gatwara imizigo, bambaye amataburiya g'icatsi n'udupfukamunwa, akamoto kakaba gaparitse mu muhanda w'ibitaka, hirya hari ibiti birebire.

Indege nini cane ifite ibara ry'umweru n'ubururu yanditsweho Rwandeya, Falededirimofafurika. Imbere hahagaze abantu bambaye amajire g'icatsi. Abagabo babiri bari kuzamuka ku masikariye gari kuja mu ndege.

Abantu bari kugenda mu muhanda bari kugenda n'amaguru, n'abanyonzi b'amagare, umwe ahetse inkwi, hejuru harambitse umusego. Haruguru hari guturuka imodoka ya kwasiteri, n'izindi ebyiri ziri kuzamuka. Iruhande gw'umuhanda hateye ibiti by'icatsi n'indabo ngufiya.

Abagabo babiri batwaye amagare afite ibara ry'umuhondo n'icyatsi kabaho n'undi uri kunyura munzira y'abagenzi bambaye ishati ya pinki n'ipantaro y'umukara, agapfukamunwa. Hirya hari amazu y'ama etaje n'ibiti birebire byubatse hagati.

Ibimodoka binini cane bikurikiranye byikoreye imbuto arizo Wotameroni n'amaronji, haruguru hari umugabo uri hejuru y'imodoka uri guhambira imifuka myinshi, hirya hari guhinguka amazu n'izindi modoka.

Abanyonzi batwara amagare benshi cane. Baparitse ku muhanda bamwe bari ku magare abandi bari impande yayo, hakaba hari n'imodoka ya kowasiteri, n'inzu ya etaje iri haruguru ifite ibigega hejuru.

Abagabo bane, bambaye amasarubeti y'ubururu, na bote z'umukara, n'ingofero z'umuhondo, na ga. Bahagaze imbere y'ikimodoka kinini cyane gifite ibara ry'icyatsi, n'iry'ubururu.

Akamoto gatwara imizigo gasa n'ubururu bari gukuramo ibicuba by'amata, kanditsweho shisha wumva. Hari imodoka iparitse haruguru y'ako n'ibiti biri guhinguka biteye haruguru.

Umugabo utwaye igare riho imifuka itatu y'umweru, hagati hakaba haziritseho bote. Inyuma ye, hariho abamotari benshi batwaye abagenzi, hagati mu umuhanda hariho amapoto.

Mu muhanda harimo imodoka nyinshi za tagisi, abamotari bahetse abagenzi, haruguru hari inzu ya etaje ifite igiti kirekire kiri imbere, hakabaho n'urwapa runini ruri haruguru ku muhanda, imbere ya rwo hari imodoka z'umweru.

Umugore ukenyeye igitenge n'umupira, wambaye agapira k'umutuku witeze n'igitambaro utwaye igare, ahetse n'imizigo. Impande ye haparitse imodoka ebyiri ntoya.

Imodoka nyinshi ziri mu mihanda ibiri. Hagati y'iyo mihanda hateye indabo n'ubusitani. Harimo n'abamotari bahetsa abagenzi, nabagenzi bari kwambuka umuhanda n'abari kugenda munzira y'abanyamaguru.

Imodoka ndende ya bisi, ifite ibara ry'umukara, iparitse ahantu hari amapave. Kuri ayo mapave, hakaba handitswe amagambo yandikishijwe irangi ry'umuhondo. Iyo modoka ikaba yanditsweho Visit Rwanda.

Imodoka nyinshi ziri mumuhanda harimo iz'umukara, iz'umutuku abamotari bari hagati umwe witwaye ,nabandi batwaye abagenzi hiryahari ibiti birebire, nandi mazu yubatse hepfo y'umuhanda.

Abantu benshi cane bari muri gare harimo imodoka zitandukanye za kwasiteri zisa n'umweru ,haruguru hari guhinguka umusozi munini cane guteyeho ibiti gubabatsweho n'amazu.

Abakinnyi batandatu bambaye imyenda isa n'ingofero zisa, batatu bambaye ibirinete abandi batatu nta byo bambaye, bose bahagaze ku magare. Inyuma hari inzu ihubatse yanditsweho afurikani rayizingi, ishushanyijweho n'amagare.

Umukinnyi uhagaze wambaye jezi ifite ibara ry'umuhondo n n'iry'ubururu, ryanditsweho Isonga kane afashe umupira wa hendiboro mu kiganza, inyuma yahagaze abandi batatu bambaye amajezi asa n'umweru.

Abakobwa bari gukina umukino wa handibolo. Umwe afashe umupira yambaye amajeze asa n'umukara. Undi amufashe mu nda ashaka kumwaka umupira. Undi amuhagaze imbere nawe ashaka kumwaka umupira.

Umukinnyi ukina umukino wo gutwara amagare ari kugare ari kurinyonga yambaye agapira k'umuhondo na gakora k'ubururu hirya ye hari ubusitani burimo ibiti birebire n'ibyapa.

Abakobwa batanu bambaye amasengeri y'umuhondo n' amajipo y'umweru. Babiri bambaye ingofero, abandi batatu nta ngofero bambaye. Bose bafashe udukoresho bakinisha tenisi, bambaye inkweto zifunze bari mu kibuga ca tenisi.

Abakinnyi bari gukina basiketi boro hari umusifuzi uhagaze haruguru yabo wambaye ipantaro yumukara umukinnyi yambaye amajezi asa n'ubururu undi yambaye amajezi asa n'umweru ari mu ibara ry'umutuku uw'imbere afashe umupira.

Abafana benshi bari muri sitade bambaye imyenda y'ubururu, n'iy'umweru, n'andi mabara, n'abakinnyi bari mu kibuga bari gukina, hakaba ariho tapi ifite amabara y'icatsi cane n'icatsi kitari cane gicuyutse.

Umukobwa uri mu kibuga urigukina vole yambaye amajezi asa n'ubururu, inkweto z'umukara ,n'amasogisi g'umweru maremare. Impande ye hahagaze umugabo wambaye umupira w'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara ,inyuma hari guhinguka intebe zisa n'ubururu ,umuhondo n'icatsi zicayemo abanu bake, haruguru handitswe viziti rwandakomu.

Abakinnyi bari mu kibuga, umwe ari gutera umupira undi agiye kuwusama, abafana benshi bari inyuma yabo inyuma hari ibiti byinshi hagati yabyo harimo inzu, bakaba bari bakina umukino wa voliboro.

Abakinnyi benshi bari mu muhanda bakina umukino wo gutwara amagare, bambaye ingofero, bafite amagare bari kunyonga, haruguru y'umuhanda hari abantu bahagaze mu rutoki, inyuma y'abo bakinnyi hari imodoka.

Umuhungu uri mu kibuga cya tenisi ufashe agakoresho bakoresha bari gukina tenisi n'agapira, yambaye ikabutura ya oranje n'umupira urimo ibara ry'umweru n'umukara, inkweto zisa n'icyatsi n'amasogisi y'umweru.

Abakinnyi babiri bari gusuhuzanya, umwe yambaye agapira k'umukara n'ikabutura n'ingofero iri kureba inyuma, undi yambaye agapira k'umweru n'ikabutura y'umukara n'ingofero iri kureba imbere, bose bafashe udukoresho dukoreshwa bari gukina umukino wa tenisi.

Abakinnyi bari mu kibuga, ikipe imwe yambaye imyenda y'umuhondo n'icyatsi, indi yambaye iy'umweru n'iy'umukara hakaba harimo n'abafana benshi cyane , inyuma y'iyo sitade hateye ibiti birebire.

Abahungu bari kwirukanka. Imbere yabo hahagaze umugabo ufashe agakaye yambaye ingofero y'umutuku. Batatu bari kwiruka bambaye amajezi gasa n'ubururu, uw'inyuma yambaye ijezi isa n'umuhondo na kola.

Abakinnyi b'abakobwa bari gukina volebolo ,ikipe imwe yambaye amajezi y'umutuku n'amakabutura y'umukara, indi yambaye amajezi y'umuhondo n'udukabutura dutoya tw'umukara. Umukobwa umwe agiye gutera umupira.

Abakinnyi bagize ikipe, bakina hendiboro bahagaze imbere yizamu inyuma hariho inzu, ifite umuryango usa n'ubururu bambaye imyenda isa n'umuhondo, abandi bambaye imyenda isa n'umutuku w'ubururu n'icyatsi, undi yicaye afashe umupira.

Abakinnyi bari gukina umupira, bari muri sitade. Inyuma ya sitade hari ibiti byinshi bitondetse birebire, hakabaho n'amazu ari inyuma ya sitade. Abakinnyi bambaye amajezi y'ubururu abandi bambaye ay'umuhondo.

Abakinnyi benshi basa nk'aho ari bato bambaye imyenda y'ubururu irimo n'ibara ry'umuhondo, bari kwitoza bari muri sitade nini. Inyuma y'iyo sitade hateye ibiti birebire by'icatsi.

Ababyinnyi b'abagabo bari kubyina babiri. Bambaye udupira tw'umukara. Inyuma hari abagore bahagaze, imbere yabo bateretse uduseke. Abandi bari gukoma ingoma, inyuma hari ibyapa birebire byanditsweho Viziti Rwanda.

Abakinnyi benshi bakina umukino wo gutwara amagare bose bari ku magare. Hirya hari abafana bari gufana, inyuma yabo hari ibiti birebire n'inzu nini iri guhinguka y'urusengero ifite amabati g'ubururu.

Abakinnyi bari mu kibuga n'abafana bicaye hirya yabo, abakinnyi bamwe bambaye amajezi y'icyatsi, abandi bambaye ay'umuhondo, handitseho u Rwanda, umwe muri bo ari gutera umupira.

Abakinnyi babiri bafatanye ku rutugu, umwe yambaye ingofero n'ikabutura y'umukara, undi nta ngofero yambaye, agapira k'ubururu n'ikabutura ifite ibara ryiza. Bose bafashe udukoresho bakinisha tenisi.

Abakinnyi benshi bari mu kibuga bakiniramo voreboro. Bamwe barahagaze abandi barunamye, bambaye amajezi, udupira tw'umukara turimo ibara ry'umweru, hagati n'amakabutura y'umweru, bambaye amasogisi afite amabara atandukanye harimo umugabo umwe wambaye ipantaro n'agapira karimo ibara ry'umukara n'ingofero.

Umupira bakinisha umukino wa voreboro. Ufite amabara atandukanye, ibara ry'umuhondo, ibara ry'ubururu, n'ibara ry'umweru. Wanditsweho voreboro ofisho, sayizi weyiti.

Abahungu batatu bari gukina umupira gw'amaguru bambaye amajire n'amajezi. Amajire asa na oranje n'icatsi ,amajezi asa n'ubururu, bambaye godiyo n'amasogisi maremare.

Abakinnyi babiri bahagaze mu kibuga cya tenisi, barafatanye. Afashe udukoresho bakinisha tenisi, umwe yambaye ingofero, agapira k'umweru, n'ikabutura y'ubururu. Undi nta ngofero yambaye, yambaye agapira k'ubururu n'ikabutura y'umukara.

Abakinnyi b'abakobwa bose bahagaze ku murongo, bambaye amajezi y'umuhondo arimo ibara ry'ubururu yanditseho Rwanda. Imbere hari umukobwa usutse uri kubasuhuza bose.

Abakinnyi bari mu kibuga bari gukina umukino wa hendibolo. Batatu bambaye amajezi y'umutuku n'amakabutura y'umukara, babiri bambaye amajezi y'umweru. Umwe muri bo afashe umupira agiye kuwutera.

Abakinnyi bari mu kibuga bari gukina umukino volebolo, inyuma yaho hari abafana bambaye umweru. Ikipe imwe yambaye amajezi asa nicatsi, indi yambaye asa n'umukara n'ubururu.

Abakinnyi benshi bari mu kibuga cya basiketi, hariho umutoza uhagaze imbere yabo wambaye agapira k'umweru, ipantaro y'umukara bose bakaba bafashe imipira ya basiketiboro, hirya yabo hari igipangu gifite ibara ry'umuhondo n'ubururu.

Abakinnyi bane bahagaze mu kibuga bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, babiri bambaye ingofero abandi ntazo bambaye inyuma y'ikibuga hari ibiti birebire uruzitiro rwubakishijwe ibikenyeri, bafashe u dukoresho bakoresha bari gukina tenisi.

Ikibuga kinini cyane bakiniramo umukino wa tenisi, inyuma y'icyo kibuga hari utuzu tubiri tw'amashitingi asa n'umweru, inyuma yatwo hari ibiti birebire hari umugabo wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara, uri kwambuka muri icyo kibuga.

Umukobwa wambaye isengeri y'ijezi isa n'ishati yanditsweho gatanu, n'ikabutura y'ubururu yanditsweho gatanu, n'ibindi bintu mu maboko bimeze nk'amasogisi afashe igikombe.

Abakinnyi babiri bari mu kibuga ca tenisi bafashe udukoresho twifashisha bari gukina tenisi umwe ni umuhungu mukuru undi ni umwana mutoya cane.

Umupira bakoresha bari gukina volebolo. Urambitse ku mucanga. Ufite amabara atatu avangavanze. Hari ibara ry'umuhondo, ibara ry'ubururu n'ibara ry'umweru.

Abakinnyi b'abana bari kwitoza, bambaye amajile y'icatsi n'umu na orange. Bambaye ama jezi asa n'ubururu, arimo n'amabara y'umuhondo. Bafashe balo isa umweru n'ubururu, bambaye n'amasogisi gasa n'ubururu.

Abakinnyi babiri b'abahungu bari mukibuga cya basiketiboro, uwimbere afashe umupira wa basiketiboro, inyuma hari intebe nyinshi zifite ibara ry'icyatsi, umuhondo n'ubururu, bambaye amajeze y'amasengeri asa n'umuhondo n'amakabutura y'icyatsi.

Umukobwa uri gukina umukino wa tenisi. Yambaye akajipo k'umukara, n'agapira k'umweru. Afashe agakinisho ka tenisi agiye gukubita agapira. Hirya hari abandi bari mu kibuga bari gukina.

Abakinnyi benshi bakina umukino wo gutwara amagare bose bari kunyonga amagare bamwe bambaye imipira y'umweru n'udukora tw'ubururu n'ingofero n'birinete inyuma hari undi uri gufunguka wambaye agapira k'umutuku na gakora k'ubururu. Impande y'umuhanda hahagaze abantu.

Abantu bari kugenda muzira yababagenzi ibakishijwe amapave, impande yabo haparitse amagare, ku mbuga y'amapave haruguru hari amazu bacururizagamo.

Imodoka iparitse ku muhanda. Ifite ibara ry'umukara. Imbere yayo hubatse amazu afite amarangi, afite amabara atandukanye. Iry'umuhondo n'iry'umweru n'irya pinki akaba afite n'inzugi zifite amabara atandukanye.

Inzu z'ubucuruzi ziri mu gasantere zifunze ,zubakishijwe amakaro kuruhande, umunyegare uhetse umugenzi, n'umugore uri kuzamuka wambaye ipantaro.

Umudugudu urimo amazu meza, afite amabati y'umutuku, afite n'ibipangu by'ubururu, mu muhanda hari kugendamo abagabo babiri.

Mu isoko hariho urukarabiro rufite aho gukarabira hatatu, imbere hariho akantu kameze nk'icapa gasa n'ubururu haruguru haparitse imodoka za tagisi hariho n'ikigega ,hakabaho n'umugabo uhagaze imbere y'ikigega.

Amazu bacururizagamo yubatse hirya y'umuhanda, imbere y'ayo mazu hicaye abantu hamanitswe n'umuzani, imiryango ibiri iteye irangi risa n'icatsi.

Abanyonzi babiri bari mu muhanda batwaye amagare, imbere hariho amazu y'ubucuruzi n'ipoto rishinze ku muhanda, impande y'iryo poto hariho akazu gatoya k'amazi.